Kuri iyi foto turi kurebaho abanyeshuri. aba banyeshuri kandi bose bafite amamashini mu ntoki, aya mamashini tuyita mudasobwa. Bari kwiga kuko imbere yabo tureba umwarimu uri kubafasha.

Ahangaha turi kureba abantu benshi bigaragara ko hari ikintu kimwe bose bahuriyeho. Hari kugaragara kandi umuntu mukuru uri kurebera muri iki cyuma aho ibi byuma tubyifashisha mu gukora imihanda no kureba uko ahantu haringaniye.